Gahunda ya leta, aho abayobozi bari hamwe bari kumwe n'abaturage. Bareba ibibazo biri muri sosiyete Nyarwanda, aho bagenda babafasha buke buke.

Gahunda ya leta aho bakora inteko rusange bakajya muri rubanda nyamwinshi bagakemura ibibazo bafatanyije bigakemuka.

Inama y'abagize komite y'umujyi wa Kigali, bari kwiga ku bikorwa bigiye bitandukanye byateza igihugu akamaro n'uburezi, mu buryo butandukanye.

Umugore bigaragara yuko ari kuvuga ijambo mu mbaga nyamwinshi, afite intego, ari kubwira abo abwira n'ibindi bitandukanye, ari kuvugira mu mpuzaruhame.

Abayobozi b'ibanze n'abisumbuyeho mu nzego zitandukanye aho bafasha abaturage gukemura ibibazo byabo hirya no hino mu gihugu.

Abayobozi bicaye hamwe bari kunywa amazi, bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye biri muri rubanda rugufi ngo barebe uko byakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Gahunda ya Leta yo gufasha abaturage mu bikorwa bya buri munsi ibibazo bafite bakabikemura, habayeho inama mu nzego z'ibanze aho abaturage bikoranya bari hamwe bakavugira ibibazo rimwe.

Gahunda yashyizweho na leta aho abayobozi b'inzego z'ibanze bahura bakibaza ku bibazo by'abaturage bakabikemura abaturage bakabanza kugira amahoro.

Gahunda ya leta, aho bakora inama, bakiga ku bibazo bitandukanye by'abaturage, bakareba n'uko babikemura ubwabo bikishakira ibisubizo.

Gahunda ya leta yo gukora inama mu buryo butandukanye, aho inzego zose ziterana bakareba ikibazo abaturage bafite bakagikemurira hamwe ibidakemuka bakabishakira ibisubizo.

Gahunda ya leta aho hakunda kubayo inama mu nzego zitandukanye, barebera hamwe ibyo bagezeho n'ibyo batarageraho nicyo bibasaba kugira ngo babigereho mu gihugu cyacu.

Gahunda ya leta aho abayobozi bashyira hamwe bakabasha kwiga ku bibazo abaturage bafite kugira ngo babashe kubikemurirwa bagire ubuzima bwiza abo bayobora.

Gahunda ya letajya gushyira hamwe bakabasha kumenya ibibazo bi biri hirya no hino mu gihugu, iyi ikaba ari inama yitwa kigali yacu, aho iba rimwe na rimwe mu mwaka.

Ababyeyi b'abadamu barimo barajya inama ku ngingo zigiye zitandukanye zishobora kugirira igihugu akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi buteza imbere.

Umuyobozi ari kuvuga ibitekerezo cyangwa ingamba baba bafashe ku baturage kugira ngo bagire imibereho myiza, ubuzima bwiza, umutekano n'ibindi bitandukanye.

Gahunda ya leta yo guhuriza ibibazo hamwe abaturage n'abayobozi b'ibanze, bagafashanya kubikemura kugira ngo umutekano n'amahwemo, aboneke mu gihugu cyacu.

Uburyo bwa leta, aho bakora bakaguha igihe ntarengwa ugomba kuba wakozemo ibintu, cyangwa wabirangije: "igihe ntarengwa".

Ubukerarugendo buzana abanyamahanga mu Rwanda, tukabasha kubitaho, tukabereka ibyiza nyamuranga biri mu Rwanda tukabazengurutsa igihugu, bakaduha amafaranga.

Uburyo leta yashyizeho bwo kwegereza iminara abaturage kugira ngo babashe kubona itumanaho rezo za telefone zigendanwa kugira ngo iterambere ryihute.

Ikigo cy'u Rwanda cyashyizeho gahunda yo gufasha abaturage mu bufasha bugiye butandukanye babyikorera ku matelefone yabo agendanwa mu buryo bwizewe.

Izwi nka gahunda ya leta aho wuzuzamwo imyorondoro uri gusaba akazi ko gukora imirimo igiye itandukanye ya buri munsi bikaba bihabwa amahirwe n'umuntu uwo ariwe wese.

Gahunda ya leta yo gukwirakwiza amaherezo mu gihugu hose, aho agenda yegereza iminara abaturage mu ngo zabo hafi na hafi kugira ngo babashe kubona itumanaho.

Gahunda ya leta ni ikoranabuhanga, aho bashaka kumenya abaturage batuye mu gihugu, bitewe n'ibyo bishyura harimo imisoro n'ibindi bitandukanye.

Gahunda ya leta yo gufasha abakozi n'abaturage bikorera aho wandikisha ikigo cyawe ushaka gushinga bakagufasha ukagugufasha ukanacyandika muri kigo cyitwa RDB.

Gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amashanyarazi, aho begerezwa ibizwi nk'iminara kugirango amashanyarazi ababe hafi, bacane iterambere ribagereho umwijima utsembwe.

Gahunda ya leta aho bagenda batanga amatangazo. Urukiko rwafashe imyanzuro, ibigomba gukurikizwa no ku iruhuka rusangiye.

Gahunda y'ubufasha, aho ugaragaza impano yawe ugatsindira miliyoni, harimo gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa n'izindi mpano waba wiyumvamo, ugatsindira miliyoni.

Gahunda leta yashyizeho y'ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura ubufasha bwose uhawe ukoresheje terefone yawe igendanwa n'ubundi buryo bukurikira.

Gahunda ya leta y'ikoranabuhanga yadushyiriyeho kugira ngo ujye wishyura bitakugoye wibereye mu rugo, aho wishyura ibizamini byo gutwara imodoka, wishyura ni ubushake n'ubundi bufasha irangamuntu n'ibindi n'ibindi.

Abakozi bakora ibikorwa by'itumanaho ku mbuga nkoranyambaga badufasha ubufasha bugiye butandukanye kugira ngo tugire ubufasha tubona ku mbuga nkoranyambaga, ku ikoranabuhanga.

Uburyo bwa leta yashyizeho bwo kubaka igihugu binyuze mu misoro, isorwa n'abacuruzi n'ibindi bigo byikorera, kugira ngo twiteze imbere nk'igihugu cyacu.

Uburyo bwa eyateri ishyira iminara ahantu hagiye hatandukanye, igira ngo ibone rezo leta na yo ikabibafashamo kugira ngo abaturage bayo bahabwe rezo zizewe.

Gahunda yo mu gihugu mo indani yo gusora neza kuri buri gicuruzwa uguze kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere twubaka u Rwanda twifuza.

Uburyo By'ikoranabuhanga bukoreshwa na leta bafasha abaturage mu bufasha bugiye butandukanye bishyura ibigo bya leta n'izindi serivise z'ikoranabuhanga za leta.

Uburyo bwashyizweho na leta nk'ibizwi nka itiyemu, aho ifasha kugira ngo iguhe amafaranga inasore mu buryo bwinshi.

Uburyo bwashyizweho n'ibigo byikorera by'ubwishingizi kugira ngo cyangwa abasora bagira ngo bajye bahemba abasora neza imisoro ya leta.

Uburyo leta yashyizeho bwo kureba imisoro ukabasha kwishyura bitewe n'ikigo ufite cyangwa ubucuruzi ukora kugira ngo igihugu nacyo kibashe gutera imbere.

Uburyo leta yashyizeho bwo gutegura amashanyarazi yegerezwa abaturage. Akontororwa neza mu buryo bufite umutekano n'ireme bitangizwa na buri umwe wese.

Ahaterwa ibiribwa bitandukanye na leta kugira ngo bigirire abaturage akamaro n'intungamubiri bifashe mu mirire igayitse.

Gahunda ya leta aho abaturage begerezwa amashanyarazi, bakabasha kwiteza imbere ibizwi nk'iminara ikajya mu baturage umwijima ukajya kure yabo.

Uburyo leta yashyizeho, kugira ngo ifashe abaturage kubona umuriro hafi yabo, kugira ngo ni bujya buhumana bajye bacana, gutyo bagire umutekano aho batuye.

Gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amashanyarazi, uyu akaba ari umunara utanga amashanyarazi, hirya no hino mu gihugu aho ukenewe.

Ikigo kikorera kitwa sayona aho gifasha abantu ibikorwa bi bitandukanye, mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakabasha kumererwa neza hamwe cyangwa ahandi.

Gahunda ya leta yo gutera ibiti kumihanda, kugira ngo birinde umuyaga mwinshi ushobora kwangiza bizane n'amahumbezi, abagenda umuhanda bamere neza.

Gahunda ya leta yo gufasha abaturage bafite ibibazo bitandukanye, aho ubasanga ku kagari cyangwa ku murenge , ukabwira umuyobozi w'ibanze ikibazo cyawe, kigakemuka.

Ahazwi nko kwa muganga hatangirwa ubufasha bwo gupima indwara bakamenya icyo barwaye ,bakibona bakabaha imiti bakoroherwa, bakanakira bakagira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Ahazwi nko kwa muganga batangira ubufasha butandukanye, bwo kwita ku buzima bwa muntu aho ashobora kuba arwaye indwara, bakamuvura agakira.

Ahagaragara nk'aho ari kwa muganga bafatira imiti, bagasuzuma indwara barwaye bagakira. Ubuzima bwabo bukamera neza.

Ibitaro bizwi ku izina bya sehashibe aho bafasha abarwaye mu ndwara nyinshi zitandukanye bakabuvura bagataha bafite ubuzima buzira umuze.

Imfungwa zishyize hamwe zambaye imyenda yabugenewe zisa naho zigiye kugira icyo zikora.

Uburyo bwashyizweho na leta bw'abunzi aho aba bajya mu abaturage bakabakemurarira ibibazo bagiye bafitanye umuturage umwe kuri undi bakahava byakemutse.

Inzego z'umutekano bigaragara ko zafashe umuntu ukekwaho ibyaha bitandukanye, zigiye kumuburanisha kugira ngo ahamwe n'ibyaha afungwe cyangwa naba umwere arekurwe.

Ubu gahunda yashyizweho na leta, aho ifasha abaturage, ibibazo bakabikemurira ubwabo bicaye hamwe, muri, mu giturage cyabo, ibibazo bafitanye bigakemuka.

Abavoka bane bari hamwe bari gukemura ibibazo bitandukanye by'abaturageranye, n'ubufasha, mu mikorere mu bice bigiye bitandukanye.

Gahunda ya leta aho abanyamategeko bahurira hamwe bakageze amategeko n'imyanzuro yasohokeye mu rukiko, akabasha kubahirizwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Izwi nka gahunda ya Leta yo guha abayobozi b'inzego z'ibanze, gukemura ibibazo by'abaturage, mu ngeri zigiye zitandukanye mu gihugu cyacu.

Uburyo bwo gukemura ibibazo muruhame aho abaturage bishyira hamwe hakaza abayobozi babakuriye, bakagenda babagezaho ibibazo bahura nabyo n'imbogamizi mu buzima bwa buri munsi bakabikemura.

Uburyo bwashyizweho bwo gufasha abaturage aho ushaka umwavoka akakuburanira bitewe n'ikibazo wahuye na cyo, ukajya mu rukiko ukaburana, akakuburanira ugatsinda.

Umugore bigaragara nkaho akuze, ashobora kuba afite nk'ikibazo ashaka ko reta imukemurira yagannye inzego z'ibanze, bagira ngo bamukemurire ikibazo afite.

Gahunda ya Leta y'amategeko agiye atandukanye, aho aba yanditse mu igazeti, bakayakurikiza bashyiraho amategeko atayatandukanya mu gihugu.

Ahakorerwa inama aho abayobozi bishyira hamwe bagafatanya gukemura ibibazo by'abaturage. Umuturage akavuga ikibazo cye abayobozi bakagikemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwihuse bunogeye rubanda.

Uburyo bwa leta ica imanza zabakoze ibyaha bamwe bakabaha abavoka bakababuranira ibyaha bitabahama bakaba abere.

Ahazwi nko mu rukiko aho abacamanza baca imanza bazicira abanyabyaha bakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bakatire igihano kibakwiriye.

Ahantu harimo harashya, leta izana ubutabazi nk'ibizwi nka kizimyamwoto iza ibangutse irahazimya harazima.

Abashinzwe umutekano Rwanda polisi aho bahagarara mu mihanda, babaza abashoferi niba bafite ibyangombwa byuzuye, niba imodoka batwara zujuje ubuziranenge.

Ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda, Rwanda nashino polisi ku karere ka nyarugenge, aho bagenda bacunga umutekano hirya no hino.

Ikigo cy'igihugu Rwanda polisi, aho bafasha abaturage ibintu bitandukanye, ibigendanye n'umutekano wo mu ngo, umutekano wo mu muhanda n'ibindi n'ibindi.

Igikoresho kizwi nka kizimyamoto aho gikoreshwa kitabazwa kugira ngo umuriro uzimwe ahafashwe n'inkongi y'umuriro kifashwa.

Uzi nk'umupolisi w'igihugu aho ahagaze arinda umutekano w'abaturage, ndetse n'ibindi bintu biri mugihugu yego.

Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ishinzwe gukurikirana ibibera mu mihanda, ibyaha n'izindi bufasha batanga hirya no hino.

Ahazwi nko ku Muhima kuri polisi y'igihugu yo mu muhanda igenzura ubwikorezi n'ibicuruzwa byambuka byujuje ibyangombwa cyangwa imodoka zujuje ubuziranenge.

Gahunda ya leta y'ubwigenge, aho buri muturage ahabwa uburenganzira agatora umuyobozi ashaka ko azamuyobora, inzego izo ari zo zose.

Gahunda y'abayobozi b'inzego z'ibanze, aho baba barahira, bemera inshingano bahawe ko bazazikora nk'uko bazihawe, ntawuzatandukira mu mategeko.

Uyu akaba azwi nk'umukandida w'ishyaka rya Green party, aho yari ari kwiyamamariza kuba umukuru w'Igihugu mu turere tugiye dutandukanye.

Gahunda ya leta yo gukora inama abayobozi bagahurira ahantu hamwe cyangwa ahandi, bakabasha kuvugana ibibazo abaturage bafite bakabikemura, ku buryo bworoshye bwo gufasha abaturage.

Gahunda yo kwamamaza umukuru w'igihugu mu matora ugenda uzenguruka uturere dutandukanye tw'igihugu gushaka umukandida uyobora igihugu.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda n'umugore we Janete Kagame bari imbere y'imbaga nyamwinshi bari kuvuga ijambo muri sitade, ahazwi nk'abibera imipira.

Umumama w'ububanyi n'amahanga aho yarari kugezwaho ibibazo, aha akaba ari kubisobanura uburyo azabikemuramo bitewe n'icyo ashinzwe.

Umubyeyi ufite abana babiri, bigaragara ko bahawe gahunda ya gira inka, biteza imbere, bakaba bameze neza, bafite imirire myiza.

Umugore usa naho ari kurahira yemera ibintu bimwe cyangwa ibindi imbere y'imbaga nyamwinshi ko azabikora neza adatengushwe.

Gahunda ya Leta yo gushyiraho abakandida biyamamariza inzego zitandukanye zirimo ubuyobozi bw'ibanze, ubwisumbuyeho bw'umuryango wa FPR Inkotanyi.

Gahunda ya leta yo gukusanya imyanda igenda iyinshyira ahabugenewe bikwirakwizwa mu baturage bose bakabigira umuco bakabigira ibyabo buri umwe wese nk'uko abikunze.

Gahunda yo kwiyamamaza y'abakandida b'igihugu bashaka kuba umwanya wa perezida biyamamaza mu turere hirya no hino batandukanye bigira ngo barebe ko babona amajwi.

Imodoka izwiho gutwara imizigo itandukanye iyivana hanze y'amahanga cyangwa iyambukana mu buryo butandukanye, ikaba iyitaransipotinga.

Ibikorwa remezo bya leta aho bubaka imihanda ibinyabiziga byikorera bikanyuramo haba ibitwaye imizigo cyangwa ibitwara abantu, urujya n'uruza kubona aho bishyura imisoro.

Ibikorwaremezo bya leta n'abaturage bayo aho umuhanda unyuramo abaturage, ukanyura ibinyabiziga bitwara abantu, ibitwara imizigo n'amapikipiki.

Gahunda ya Leta yo kubaka imihanda inyurwamo, ibicuruzwa, ubwikorezi, abantu bava hamwe cyangwa bajya ahandi, ibyo bigateza igihugu imbere kuko abantu baba bakora ubucuruzi hirya no hino.

Umuhanda nyabagendwa ukoreramo ubucuruzi butandukanye. Aho imodoka zikoreye imizigo, izitwara abantu zinyura, zigira ngo zishake amaronko zigatanga imisoro ku gihugu.

Uburyo bwo mu muhanda, Leta yashyizeho imodoka zitwara abanyamaguru zikabageza aho bagiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuva mu ntara imwe ukagera mu yindi, yego.

Imodoka icuruza esanse cyangwa peteroli, ibikomoka ku mavuta aho iba iyajyana hirya no hino mu gihugu.

Uburyo bwashyizweho na Leta bwo kubaka imihanda, kubaka ibikorwaremezo, uburyo bw'ibicuruzwa bigenda hirya no hino n'abantu n'ibinyabiziga bigenda mu muhanda byujuje ibyangombwa byakagombye kuba bifite.

Uburyo bwo gucuriza ibicuruzwa ubijyana mu modoka nini za rikururanwa, byambukiranya imipaka, biva mu gihugu kimwe cyangwa bijya mu bindi, bikaba ari ibicuruzwa bitandukanye bigirira akamaro igihugu.

Gahunda ya Leta yo kubaka imihanda, hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye ibitwara abagenzi, ibitwara imizigo, harimo imodokari, amapikipiki, abanyonzi batwara ibintu n'abantu.

Ibinyabiziga nizino moto, zitwara abantu n'ibintu bibavana ahantu hamwe cyangwa ahandi, bikaba bibaparitse bategereje ko babona abagenzi, cyangwa ibicuruzwa bavana hamwe bakajyana ahandi.

Ikibuga cy'umupira w'amaboko uba uzwi nka basikete boru, aho cyubwakwa na leta ikeneye imyidagaduro kugirango urubyiruko rujye rubona aho rwitagadurira.

Ahazwi nko mu ihuriro ry'imihanda, aho harangwa n'amatara atukura, ay'icyatsi, ay'icyatsi akaba avuze ko zemerewe kugenda, ay'umutuku akaba avuze ko zibujijwe gutambuka.

Ibyapa byo mu muhanda bigaragaza ko imbere hari abanyamaguru, aho bambukira ikindi cyapa kikaba kivuze yuko imodoka zigenda zica iburyo izigaruka zigaca ibumoso.

Impuzambibi cyangwa se umupaka uhuza u Rwanda na Kongo, aho urujya n'uruza ruca ruva mu gihugu kimwe rujya mu kindi gihugu n'umutekano.

Icyapa cyo mu muhanda mugari, hagaragaza aho abanyamagenzi bambukira cyangwa abanyeshuri bavuye ku mashuri mu buryo butandukanye bw'umuhanda.

Gahunda ya leta yo kubaka imihanda igashyiriramo n'ibyapa bibuza abaturage cyangwa ibinyabiziga kugenda mu muhanda harimo umuntu wambuka yego.

Azwi nka matara y'umutuku, y'ibyatsi, aho akora agirango imodoka zibone uko zibisikana amatara y'umutuku ahagarika imodoka, ay'icyatsi akazibwira ngo zigendere.

Gahunda ya leta yo kubakira abaturage inzu zikomeye batuye mumanegeka, bakahava bagatura ahantu hazima, muburyo bwizewe.

Gahunda ya leta yo gutwara ibintu n'abantu bakoresheje ipikipiki, uyu akaba ari umumotari wambaye ijire y'akazi igaragara ko atwara abantu n'ibintu byujuryo itegeko.

Ubu buri gahunda ya Leta yo gutuza abaturage neza mu buryo bunoze, atari ugutura mu manegeka, aho amazi ashobora kubatwara mu gihe imvura yaguye, bigashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Ahazwi nko mu kabari aho bacuruza ibyo kunywa bitandukanye ibisindisha, ibidasindisha n'ibyo kurya ukaba uhagana ufite inzara cyangwa inyota ukahava yashize.

Ahasa nko ku biro by'akagari cyangwa umurenge aho abaturage bahabwa ubufasha bugiye butandukanye, bitewe n'ibibazo bafite bya buri munsi hagati yabo mu miryango hirya no hino.

Gahunda ya leta harimo guha amashanyarazi abaturage, gutura neza impande y'igiti kugira ngo kimuhe umuyaga, mu buryo butandukanye hirya no hino mu gihugu.

Ahatangirwa ubufasha ku baturage bashaka akazi n'ibindi bibazo baba bafite bakabikemurirwa bakabasha kugira aho bava bakagera mubuzima bwabo.

Gahunda ya leta yo gutuza abaturage ahantu heza habugenewe, atari mu manegeka aho bashobora kugirira ibyago mu buryo butandukanye bakabura ubuzima.

Gahunda ya Leta yo gufasha abatwazi b'ibinyabiziga ku giti cyabo bakabasha gutwara abagenzi imizigo, babavana hamwe cyangwa ahandi bakibeshaho mu buzima bwabo.

Gahunda ya leta iyo kwegereza amashanyarazi abaturage bakiri mu mwijima, kugira ngo babone iterambere nk'abandi bose, babashe kugira icyo bigezaho bagire ubuzima bwiza cyane.

Gahunda ya leta aho igenda ikwirakwiza iterambere mu tugigi tugiye dutandukanye, kugira ngo abaturage babashe kwibeshaho bishyure imisoro igihugu gitere imbere.

Umuhanda nyabagendwa unyuramo imodoka zitwara abantu izitwara ibintu n'amapikipiki abanyonzi n'ibindi bitandukanye.

Ibikorwa remezo by'abaturage, umuhanda aho hagenda ibiziga bitandukanye, iyi akaba ari imodoka igemuye inyama hirya no hino izikuye ku ibagiro rusange ryemewe n'amategeko.

Ahagana mu muhanda ahanyura ibinyabiziga bitwara abanyabagenzi aho ahari mu cyapa aho imodoka zihagaragara ziri gukuramo abagenzi cyangwa zibashyiramo bageze iyo bagera.

Ibikorwa remezo bya Leta aho bubaka imihanda kugira ngo tubashe gukora ingendo hirya no hino, harimo n'ubucuruzi bwambukiranya uturere hirya no hino mu gihugu.

Inyubako y'umuhanda, aho hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye, amamodoka, amapikipiki, ubwikorezi bw'ibintu n'abantu bivanwa hamwe cyangwa ahandi. Byujuje ubuziranenge. Yego.

Mu mujyi wa Kigali ahagana mu kabwibwi amatara ari kwaka mu ijoro aho ibinyabiziga bigenda bitambuka mu ngeri zitandukanye.

Umuhanda wa nyabagendwa ukinirwamo n'imodoka moto n'ibindi bigiye bitandukanye n'abanyamakuru mu bice bitandukanye mu gihe kinini.

Gahunda ya leta yo kubaka ibikorwaremezo, harimo umuhanda aho ukoreshwa hanyuramo ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, amapikipiki, kugira ngo iterambere ry'igihugu ryihute kandi vuba.

Ikiraro ahazwi nka Kicukiro santere, kinyuraho imodoka zitandukanye, mu byerekezo bigiye bitandukanye: abanyamaguru, abanyonzi n'abanyamoto mu gihe gitandukanye.